Ndabona agaseke keza cyane kandi ubona ko mu by'ukuri ari agaseke gateye amabengeza kabuze byinshi m'umuconyarwanda.

Mu bigaragarira amaso dasso ziri kumwe na yusi vorontiyazi ndetse n'abasekirite.

Abaturage basoje igikorwa cy'umuganda bari mu nama, ubona ko abantu bategereje kumva cyangwa se barimo kumva ibyo abantu barimo kubabwira, harimo abayobozi batandukanye.

Hano umuyobozi n'umuyobozi wo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangagazi, afite mikoro arimo kubwira abaturage ikibateguriye ndetse ubona ko bari mu nama.